Umuco wa kinyarwanda ndawukunda cyane. Ahantu henshi iyo habereye ibirori bagatanga impano, abari guhabwa impano baba banezerewe cyane.

Mu mijyi myinshi, usanga harimo ibyuma biriho amatara biyobora imodoka, biba byiza cyane iyo abatwaye ibinyabiziga babyubahirije n'abagenzi nabo, bakabyubahiriza biba ari byiza cyane.

Mu rwego rw'iterambere ry'Igihugu, ahantu henshi cyane bagenda barahashyira za kamera zo kugira ngo zibafashe gucunga umutekano w'Igihugu no kubafasha kurinda abasambo.

Inzego z'umutekano ni nziza cyane zigira umumaro mwinshi, zirimo no kubungabunga umutekano w'abaturage, kandi zifasha leta gutuma ibintu bigenda neza.

Inteko rusange z'abaturage iyo ziteranye hariho n'abayobozi ba bo biba ari byiza cyane, iyo hariho n'inzego z'umutekano.

Indege ya kajugujugu ndayikunda cyane ni nziza, ntabwo ikenera kugwa ku bibuga by'indege binini cyane, nkuko izindi zibikora.

Abantu iyo bari mu nama, baba bari mu gikorwa cyiza cyane cyo kungurana ibitekerezo. Iyo barangije gukora inama barifotoza bose.

Urwego rw'umutekano rwa sekiriti porisingi, ni urwego rwiza cyane rwunganira inzego z'umutekano nkuru, mu rwego rw'Igihugu.

Za kamera ni ibikoresho byifashishwa mu buryo bwo gucunga umutekano. Babikoresha babishyira ahantu abantu bateraniye, kugira ngo abasambo n'abandi bagizi ba nabi baze gufatwa igihe hari ikibazo kivutse.

Inama rusange y’abaturage ni nziza cyane, abantu barayikunda. Ifatirwamo imyanzuro ishimishije, ntabwo irenganya.

Mu bikorwa by'iterambere rusange, hakorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, abagabo n'abagore, bazinduka kare kare bagiye gukora umuganda, kugira ngo isuku y'igihugu igaragare neza cyane.

Inteko rusange y'abaturage iba ari nziza cyane, kuko iyo bateranye higirwamo ibintu byinshi cyane bigirira Igihugu akamaro kenshi cyane.

Umuco wa kinyarwanda ndawukunda cyane, ni mwiza. Kuko bakunda kwakira abashyitsi baje babagana, babishimiye cyane cyane.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ibirori bitandukanye. Abanyarwanda bicaraga bagasangirira inzoga mu ndemberi bakoresheje imiseke.

Mu muco nyarwanda habamo ibintu bitandukanye: babaza ingagi, ubukorikori butandukanye, babamba ingoma, n'ibindi bikurura abanyamahanga.

Mu mucyo nyarwanda, abagore b’Abanyarwandakazi bakunda kuboha imitako. Imitako iba irimo ibintu bitandukanye, n’amabara menshi baba bakoze.

Mu muryango habamo ibikoresho byinshi, isekuru ni igikoresho cy'ingenzi mu muryango, gifite akamaro kenshi nko gusekura inzuzi, gusekura isombe, n'ibindi n'ibindi bitandukanye.

Inka z’inyambo, abantu barazikunda cyane, ni umutako w’igihugu. Bazifashisha no mu birori, abantu benshi bakunda kuzireba.

Mu muco nyarwanda, habamo ibirori byinshi bitandukanye, iyo bateranye, usangamo abadamu beza, bazi kubyina, ndetse n'abantu bitabiriye ibyo birori, usanga bishimye cyane.

Umuntu wahinze neza imbuto nziza agira umusaruro mwinshi, akumva anezerewe biramushimisha cyane iyo amaze gusarura imbuto.

Amabuye y'amasarabwayi ni meza cyane ndayakunda agaragara neza. Abafundi iyo bayubakishije ku nzu ubona ari nziza cyane cyane.

Abantu baboha ibirago n'imikeka ni abahanga cyane baboha ibirago bifite amabara y'umukara, baboha ibirago bitagira amabara kandi abantu barabikunda cyane.

Umuco wa kinyarwanda. Ubukwe ni bwiza kuko buhuza abantu benshi batari baherutse kubonana kandi abambarira abageni nabo iyo bambaye ibintu bisa wabona ari byiza cyane.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ibikoresho byinshi cyane. Isekuru ni igikoresho cya kinyarwanda bakoresha bari gusekura imbuto nyinshi cyane zitandukanye.

Mu muco wa kinyarwanda, abaturage bakundaga gusangirira ku ntango bakoresheje imiseke, maze bakaganira, bagatarama, bakishima. Ukabona ari ibintu byiza cyane.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ibintu byinshi bitandukanye, iby'ubugeni n'iby'ubukorikori, ububoshyi bubamo ibintu by'imitemeri ifite amabara menshi cyane kandi meza.

Umuco wa kinyarwanda ni mwiza cyane, ubamo ibirori byinshi, ukagira n'ababyinnyi benshi kandi beza, baza gususurutsa ibyo birori byabaye.

Mu muco nyarwanda habamo ibirori byinshi, batumiramo ababyinnyi batandukanye hazamo n'intore, zishimisha abantu zibyina neza abantu bagataha bishimye cyane cyane.

Inzu ndangamurage ni nziza cyane usangamo ibintu by'ubukorikori byiza, byakozwe n'abantu bikakunezeza cyane.

Umuco nyarwanda, ugaragarira mu bintu byinshi bitandukanye, kubyina ni byiza bigorora ingingo kandi abantu benshi barabikunda.

Gusimbuka umugozi w'urukiramende, ni umukino mwiza cyane, ukunda gukorwa n'abantu benshi bafite, imbaraga nyinshi.

Mu muco wa kinyarwanda habagamo ibirori bitandukanye, habagamo ababyinnyi babyina bifashishije n'ingoma, abantu bari muri ibyo birori batahaga banezerewe cyane.

Mu muco wa kinyarwanda hakorerwagamo ibintu byinshi cyane, ababyinnyi banezeza abantu iyo bari kubareba babyina bakanezererwa cyane bakishima.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ibintu byinshi bitandukanye, habamo imbyino. Habamo intore zizi kubyina neza cyane, zigashimisha abantu.

Isogi ni imboga nziza cyane, ziraryoha cyane. Iyo zitetse mu biryo bya kinyarwanda, bakagerekaho amateke, bakagerekaho ibijumba bakarisha.

Inka z'inyambo, ziba nziza cyane, ndazikunda. Zigira amahembe meza maremare, ateze neza, zigira n'ubwoya bwiza burambutse.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ibintu by'ubugeni. Bakoreshaga imivuba bari gucura ibyuma, kugira ngo babone ibikoresho byo gukoresha gahunda zose zo mu mirimo yabo.

Abayobozi bo mu Rwanda n'abahanga cyane, bakunda gushyigikira umuco, iyo bagiye gusura umuturage, bakunda kumushyigikira, kandi bagasiga bamukomeje.

Amasaka n'igihingwa cyiza cyane. Bayanywamo igikoma, bayakoramo umusururu, barayagurisha bakabonamo amafaranga menshi ashimishije.

Mu muco nyarwanda habamo imitako itandukanye, ahantu hari imitako haba heza cyane hasa neza cyane, n'abantu iyo bahabonye babona ari ahantu heza hatunganye.

Abanyarwanda bagaragaza umuco nyarwanda mu buryo butandukanye, kubyina, guca imigani, guca imivugo, bakundaga gutarama iyo hari ibirori n' iminsi mikuru isanzwe.

Intore zibyina neza abantu bakunda kuzireba, kandi iyo zimaze kubyina ,abantu bagendaga banezerewe kubera yuko zabashimishije cyane cyane.

Mu muco wa kinyarwanda dusangamo ibikoresho byinshi, isekuru ni igikoresho cy'ingirakamaro mu muryango kuko tukifashisha mu buryo bwinshi cyane.

Mu muco nyarwanda habamo ibirori bitandukanye. Muri ibyo birori habamo n'abari kuvuza ibikoresho gakondo nk'amahembe, imiduri n'imyirongi.

Mu muco nyarwanda habamo ibikoresho byinshi bitandukanye. Igitebo ni igikoresho baboha mu migano. Bakunda kugitereka ahantu heza cyane ku ngata, kugira ngo kitaza gucika vuba.

Mu muco wa kinyarwanda hakorerwamo ibirori bitandukanye, intore zimenya kubyina neza, zishimisha abantu kandi kuzireba biba byiza cyane.

Mu muco wakinyarwanda, habamo ubworozi bw'inzuki, inzuki ziba nziza cyane, zigira ubuki buryoshye cyane, ubuki bubamo umuti mwiza, ufitiye abaturage akamaro.

Mu muco wa kinyarwanda, hakorerwamo ibintu byinshi by'ubukorikori bitandukanye, baboha ibiseke by'amabara menshi kandi meza cyane ndabikunda.

Mu cyaro bakora umutobe uryoshye wa kinyarwanda. Bawukora bakoresheje ibitoki bashyira mu muzinga, bagakoresha amakoma n'inshinge.

Mu muco wa kinyarwanda dusangamo ibikoresho byinshi cyane. Ibibindi bakundaga kubikoresha babiterekamo amazi cyangwa umusururu, n'inkono za kinyarwanda ziryosha ibiryo.

Mu muco nyarwanda usanga harimo ibintu byinshi by'ubugeni n'ubukorikori. Iyo babitatse ahantu, usanga hameze neza cyane.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ibintu byinshi bitandukanye: habamo ibicuma, habamo ibirago, uduseke bifashishaga bari gutegura.

Umwungu ni urubuto rwiza cyane ruvamo ibicuma, ibicuma iyo bamaze kubyangura barabikoresha babitegura cyangwa se babinyweramo ibyo kunywa.

Mu muco nyarwanda habamo ibintu byinshi bitandukanye baboha ibirago, baboha imikeka ifite amabara atandukanye, bakora inkongoro zifite imitemeri.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ibikoresho bitandukanye, habamo inkoko bakoresha bari kurobanura ibishyimbo, bari kurobanura amasaka n'ibigori, n'ibindi bintu byangombwa bitandukanye.

Mu muco nyarwanda habaho igihe cyo guhurira hamwe, bagakora ibikorwa by'amajyambere, harimo umuganda ,gukorera hamwe abaturage barabikunda ,kandi bakishima cyane iyo bari gukorana n'inzego z'ubuyobozi.

Intore zibyina neza cyane abantu benshi barazikunda, zisusurutsa ahantu habereye amakwe, ahabereye ibirori bitandukanye ,ni ababyinnyi b'umwuga.

Mu muco wa kinkinyarwanda, hakorerwamo ibintu byinshi bitandukanye. Nko kuboha uduseke bifashisha mu gutegura no gukora mu kugemuramo amapfukire.

Mu mucyo nyarwanda habamo imitako itandukanye; ibicuma birimo n'imiheha, habamo n'ibirago bitandukanye, ibirago bifite amabara n'ibirago bisanzwe.

Mu muco wa kinyarwanda, habamo ibikoresho by'uburyo bitandukanye, ibibindi bashyiramo umusururu cyangwa se urwagwa, bakabinyweramo bakoresheje imiseke cyangwa se inzuho n'ibikosi.

Abantu bari mu gikorwa kimwe cy'umuganda ngarukakwezi, baba bishimye cyane kubera ko bahuje ibitekerezo byiza byo kubaka Igihugu.

Mu mucyo wa kinyarwanda habamo, ibirori by'uburyo bwinshi cyane butandukanye, habamo n'abadamu n'abagabo bazi kuvuza ingoma neza cyane.

Mu muco nyarwanda bagiraga ibikoresho byinshi bitandukanye, habamo indembe, inzuho, imibirikira, ibijerekani, ibyo byose babyifashishaga mu mirimo yabo ya buri munsi.

Mu muryango, habamo ibikoresho byinshi bitandukanye, muri byo habagamo inkongoro, yifashishwaga mu gukoreshwa, baterekamo amata.

Radiyo ni nziza cyane, itugezaho amakuru y’igihugu, itugezaho amakuru yo hanze y’igihugu, ituma tumenya byinshi tugasusuruka, tukishima.

Abantu bakora amashanyarazi, baba ari abahanga cyane, bagira ubwitange bukomeye, bazamuka amapoto, banyura mu mazi bari gushaka bari gushyiramo insinga, burira n'imisozi bari gukora iminara, abantu bakora mu mashanyarazi ni abahanga cyane pe.

Mu bikorwa by'iterambere habamo ibintu byinshi cyane bitandukanye, amashanyarazi aba meza iyo ahantu hari amashanyarazi, haba urumuri rwinshi n'imirimo igakomeza igihe cyose.

Ibikorwa by'amajyambere ni byiza cyane. Ahantu haba amashanyarazi, haba ari ahantu heza, hafite umuco. Ahantu haba amashanyarazi, haba haba na za kamera, zishinzwe gufasha abantu gucunga umutekano.

Abantu bakora mu mashanyarazi baba ari abahanga cyane cyane. Batanga umuriro ukwiriye, kugira ngo utaza guteza impanuka mu baturage.

Insengero nyinshi, ziba zubakishijwe amatafari. Ziri ahantu heza hatandukanye. Abaturage bakunda gusenga, kubera ko ari byiza.

Urusengero rwubakishijwe amatafari ahiye, ruba ari rwiza cyane, iyo rusakajwe amabati y'amategura ,rugira n'abayoboke benshi ,kubera ko baba bari gusengera ahantu heza.

N'urusengero rwubakishijwe amatafari ahiye, rusakajwe n'amabati meza cyane. Ruteyemo n'amarangi abantu iyo bagiye gusengeramo usanga bishimye cyane.

Inzu za kijyambere zo ku muhanda ziba nziza cyane zigira akamaro kanini cyane, iyo imvura iguye abantu benshi bajya kugama, abagenzi na bo bananiwe bakajya kwicarayo kugira ngo baruhuke.

Inzu za kijyambere ni inzu nziza cyane. Ziba zubakishijwe ubuhanga bukomeye, ziba zirimo amakaro, ziba ziriho n'inkingi ziteze. Inzu za kijyambere ni nziza cyane ndazikunda.

Ikigo gitanga amashanyarazi kiba kirimo ibikoresho byinshi. Harimo ama mashini asuzuma ibikoresho, n'insinga zo hejuru bafatiraho.

Urusengero rwiza cyane rwubakishijwe amatafari ahiye ruba rukomeye, kandi abarusengeramo baba ari abantu beza cyane.

Ahantu henshi cyane, hari ibikorwa by'amajyambere ndahakunda haba ari heza cyane, abatwara abagenzi bakoresheje amapikipiki bakunda kuhahagarara.

Mu kigo icyo aricyo cyose usanze, ku irembo hari umuntu ushinzwe kubaza abinjira n'abasohoka, ugomba kubanza kwitonda igihe cyose ataraguha uburenganzira.

Abahamya ba Yehova, ni bamwe mu banyamadini bagendagenda mu ngo z'abantu bari kuvuga ubutumwa. Abahamya ba Yehova kandi, ntabwo bubahiriza gahunda zimwe na zimwe za leta, nko kujya ku marondo no kurahira bafashe ku idaapo ry' igihugu.

Insengero zigezweho ziba zubakishijwe amatafari ahiye, zifite ibisenge byiza, zifite amazi n'amashanyarazi.

Ikibuga kiri hamwe n'urusengero, iyo habaye ibirori bisaba guhuza abantu benshi, nimwo bajya guteranira, kugira ngo hataboneka umubyigano mwinshi cyane.

Muri iyi minsi turimo kubera iterambere ry'Igihugu, Leta ishaka insengero nziza cyane zigezweho, kugira ngo abaturage bajye barasengera ahantu heza cyane.

Inzu ya kijyambere yubakishijwe amatafari ahiye ,ifite n'inkingi nyinshi cyane, ndayikunda ni nziza cyane.

Ibitaro bya Ruhengeri byubatse mu mujyi wa Musanze ntabwo abantu benshi babikunda kubera ko bidatangaga serivise nziza.

Iterambere ry'igihugu, ribamo ibintu byinshi bitandukanye, habamo n'amashuri ageretse y'ama etaje, abantu benshi barayakunda cyane.

Umurenge wa kinigi habamo ikigo nderabuzima cyiza cyane, cyakira abaturage neza cyane, kandi gitanga serivise nziza ku bakigana.

Amashuri yubakishijwe amatafari ahiye ari ku muhanda wa kaburimbo, akaba ari meza cyane kubera ko abanyeshuri kuhagera biborohera cyane.

Ibiti by'inturusu ni ibiti byiza cyane bigiraga umumaro mwinshi cyane; bibikuragamo inkwi zo gucana, imbaho zabyo ziba nziza cyane hari n'ababikoramo n'inzugi.

Mu rwego rw'iterambere ,Leta igenda yubakira abaturage iminara, kugira ngo ibagezeho amashanyarazi bakorere ahantu hatunganye.

Inzu za kijyambere ni nziza cyane. Zubakishijwe amatafari ahiye, Zifite amabati y'umutuku, zifite inzugi nziza cyane. Imbere ya ho hagaragarara neza cyane.

Iterambere ni ryiza cyane, mu iterambere hubakwa imihanda, hubakwa ibiraro byiza cyane kandi bikomeye, hubakwa n'amazu meza y'ubucuruzi hubakwa n'amazu yo guturamo ameze neza cyane, igihugu kigasa neza cyane.

Ibikorwa by'amajyambere ni byiza cyane ndabikunda, kubera ko ahantu henshi usanga hateguye ubusitani bwiza cyane hameze neza cyane.

Mu bikorwa by' amajyambere habagamo, ibintu byinshi bitandukanye: imihanda, amazu yubatswe neza cyane habagaho n' imbuga zazo zikoreshejwe amapave, inzu nziza cyane zisize amarangi.

Amashuri meza afite inyubako nziza ya etaje, agira abanyeshuri beza benshi, kandi abahiga benshi bagira ubwenge.

Mu iterambere habamo ibikoresho byinshi bitandukanye, haba imodoka zo mu bwoko bw'imashini, zidufasha gukora imihanda, no gukora ahantu habi hatandukanye.

Amazu ari ahantu hatari heza cyane ntabwo ashobora kugira uburambe, kuberako ahantu ari ashobora guhura n'ibiza, bigatuma asenyuka vuba.

Inyubako zigezweho ziba zubakishijwe ibikoresho bikomeye, zisakajwe amabati ari mu bwoko bw'amategura, zifite inkingi zitandukanye zikoreshejwe beto, zisizwe amarangi.

Mu bikorwa by'iterambere usanga ibigo byinshi byubatse ahantu haba umuhanda, haba hariho abazamu bashinzwe kwakira abantu bababaza ibyangombwa n'ikintu kiri kuba bagenza.

Inteko rusange y'abaturage iyo iteranye, igira umumaro mwinshi cyane. Habamo guca imanza z'uburyo bwinshi butandukanye, abaturage bakagenda babonye igisubizo cyiza.

Inteko rusange y'abaturage iyo iteranye iri kumwe n'abayobozi bayo, baca imanza neza abaturage bagataha bishimye, kubera ko babakemuriye ibibazo byabo neza cyane.

Ubuyobozi bwiza bugirira abaturage akamaro kanini cyane, abaturage iyo bagiye babugana babakira neza, bakabasubiza ibibazo byabo neza.

Ku kigo cyiza cy'amashuri, ahantu hari ibyatsi byiza cyane abantu bicaramo, niho inteko rusange y'abaturage bakunda kwicara bari kumwe n'abayobozi, kugira ngo bafatanye gukemura ibibazo byo mu miryango.

Mu muco wa kinyarwanda, habamo gahunda yo gukiranura abantu, biba byiza cyane iyo abantu bicaye bakaganira ku bibazo byavutse, bagataha babiboneye ibisubizo byiza cyane.

Mu nteko rusange z'abaturage bakemuriramo ibibazo abantu bagiranye. Inzego z'ibanze zibafasha kubikemura ibintu bikagenda neza. Abaturage bakagenda banezerewe, bakabafasha kumvikana.

Bisi za ritiko ni imodoka nziza cyane abantu barazikunda kubera ko zitwara abantu benshi, zitanga serivisi nziza kandi abashoferi bazo, bagenda bitonze bakagezayo abantu amahoro.

Imodoka zitwara abagenzi ni nziza cyane, zidufasha kugera aho tujya vuba, abashoferi bazo bazitwaye batanga serivisi nziza, bigatuma abantu benshi bazikunda.

Imodoka yo mu bwoko bw'amakamyo ni imodoka nziza cyane, ni imodoka itanga umusaruro , ni imodoka yungura abantu bayikoresha bari gupakira imizigo iremereye. Imodoka yo mu bwoko bw'amakamyo iba nziza cyane itanga umusaruro ushimishije.

Muri gare ahantu imodoka ziparika usanga hari abagenzi benshi cyane, baba bategereje kugenda kugirango bagere iyo bajya kare.

Aho baparika imodoka zatwara abagenzi, bahita muri gare. Aba ari heza cyane. Abagenzi ni ho bazisanga kugira ngo zibatware zibajyane aho bashaka kujya.

Ku kibuga cy'indege haba ari ahantu heza cyane. Iyo uhageze uhasanga ibidege binini cyane cyane, kubireba ubona bishimishije.

Muri gare aho baparika imodoka, haba hari abagenzi benshi baje gutegeramo, kugira ngo imodoka zibajyane mu byerekezo bashaka kujyamo.

Ubwoko bw'ibinyabiziga bita rifani, abantu benshi barabukunda buba bwiza cyane, kuko kubukoresha butanga umusaruro ushimishije cyane.

Rwanda eya ni ndege nini cyane, kandi ni nziza cyane. Abantu benshi barayikunda, kuberako itwaraga ibintu byinshi cyane.

Ikibuga cy'indege kigaragara neza cyane, iyo indege zakiguyeho abashinzwe umutekano wazo bari kuziyobora, ubonaga bishimishije cyane umuntu ashaka gukomeza kubireba cyane.

Mu buryo bw'ubwikorezi hakorerwamo imirimo myinshi itandukanye, bamwe bayikoresha amagare, abandi amamodoka, ibyo byose bitanga igisubizo gishimishije.

Umugore utwara ikinyabiziga bita rifani, ari kuganira n'umunyamakuru yamubazaga uburyo akora uwo murimo uruhije cyane.

Imodoka zitwara abagenzi habamo imodoka z'ubwoko bwinshi, hari imodoka nini zitwara abagenzi benshi, habaho n'imodoka ntoya zitwara abagenzi bakeya.

Umuhanda w'ibitaka munini, ukoze neza cyane ndawukunda, ugendeka neza. Nigare iyo nta bikuku byica igare birimo.

Imodoka nini z'amakamyo zigira akamaro kanini cyane, kubera ko iyo zagiye gupakira zipakirira icyarimwe ibintu byinshi cyane.

Mu mugi habamo ibintu bitandukanye habamo abantu bagenda batwaye amamodoka, habamo n'abamotari bakoresha moto zikoreshwa n'amashanyarazi, habamo ibintu by'ubwoko bwinshi bigaragaza ko ari umugi.

Ku kibuga indege zigwaho usanga ari ahantu heza cyane abakozi baho baba bafite isuku n'ikinyabupfura cyinshi cyane.

Igare rya rimozini ndarikunda cyane. Baritwaraho ibintu byinshi bitandukanye, kandi ibyo ripakiye nta muntu wabyikorera ngo abishobore.

Abaturage bakunda guhinga imbuto nziza bita wotameroni, iyo bazejeje bakunda guhamagara imodoka zikaza kuzibapakirira.

Igare ni gikoresho cyiza cyane, ndarikunda. Abagenzi na bo bakunda igare cyane, kubera ko ribafasha kugera aho bagiye vuba, gahunda za bo zikagenda neza cyane.

Iyo ugeze mu mujyi wa kigali, usangamo abantu benshi cyane cyane. Imitaka ya emutiyeni amazu menshi cyane cyane, amamodoka menshi, abantu benshi bahagaze ku muhanda, ibigo by'amashuri n'amazu manini y'ama etage.

Muri gare aho abagenzi bategerereza ibinyabiziga, haba harimo abantu b'ingeri zose zitandukanye; abagabo, abagore, abasore n'inkumi ndetse n'abanyeshuri.

Ku mupaka ni ahantu, abantu benshi bakunda kwambukira, bagiye mu kindi gihugu, hariho abaturage benshi, hariho n'ibimodoka byinshi, byambuka bigiye hirya no hino.

Imodoka nini nziza z'amakamyo, ndazikunda cyane, kuko bazitwarisha ibicuruzwa byinshi, byinjira mu gihugu.

Abantu benshi bakunda siporo, bakunda kugira umubiri mwiza cyane. Bakunda guhora bishimye kubera ko umubiri wabo nta mavunane ugira.

Muri iyi minsi abana benshi bakunda gutwara amagare biba byiza cyane kubera ko bakura bagororotse.

Mu kibuga, ahantu hakorerwa imyidagaduro, haba hari abantu benshi baje gushungera, baje kureba abakinnyi uko bari gukina.

Imikino ngororamubiri, ikorwa mu buryo butandukanye, hari abayikora biruka, abandi bayikora basimbuka, buri wese ayikora bitewe n'iyo ashoboye.

Siporo ni igikorwa cyiza cyane, k'ingororangingo. Bakora siporo yo kwiruka, gukina umupira, bakora siporo yo kubyina, n'ibindi n'ibindi.

Imikino ni myiza cyane. Ibamo amakipe atandukanye. Ihuza abantu. Abaje kureba imikino, bataha bishimye banezerewe.

Abantu bari gushungera abari gukora siporo barantangaza cyane, baba bishimye ugasanga nta kintu bitayeho, uretse kureba abantu batsinze amarushanwa.

Umukino w'amagare ndawukunda cyane. Ugorora ingingo zose, umugongo uragororoka cyane. Ingingo zose ziragororoka n'amaguru akarambuka neza.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru iyo bari kumwe n'abayobozi babo usanga bishimye cyane ndabakunda cyane cyane.

Buri mwaka mu Rwanda haba igikorwa cyo kwita ingagi amazina, muri icyo gikorwa habamo imikino y'imyidagaduro mu buryo butandukanye.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, ndabakunda cyane, bakunda gukina bafite ibibaraga byinshi, bakunda kwiruka kugirango babone uko batsindana.

Ahantu bakorera imirimo y'igororangingo haba ari heza cyane, hateguye neza, kandi iyo uhageze ubona hashimishije cyane.

Siporo ya basiketibolu, abantu benshi barayikunda kubera ko ari umukino w’ingufu kandi ushimishije, kuwureba bitera umunezero mwinshi cyane.

Ikibuga cy'imyidagaduro bakiniraho tenisi, usanga ari cyiza cyane abagikiniraho abenshi usanga ari urubyiruko, kandi bafite imbaraga nyinshi.

Imikino ngororamubiri ibamo imyitozo y'amoko menshi, iy'amagare iba nziza cyane, n'abantu benshi cyane bakunda kuza kuyireba.

Umukino wa basikete ndawukunda, ukunda gukinwa n'abasore beza barebare bafite imbaraga kandi bazi kwirukanka cyane.

Muri siporo habamo imikino myinshi cyane cyane itandukanye, habamo iyo bakinisha amaguru, habamo n'ibindi bakinisha amaboko, bikababera byiza cyane .

Umupira w'amaguru abantu baragukunda cyane cyane. Abakinnyi iyo bari gukina abantu baba banezerewe bishimye baje gushungera. Iyo ikipe yabo yatsinze batahana ibyishimo.

Mu Rwanda ahantu henshi cyane cyane habera imikino itandukanye. Usanga hari abantu benshi cyane cyane baje gushungera. Hariho n'abayobozi bashinzwe kuyobora ibinyabiziga.

Imikino ngororamubiri ibamo imyitozo myinshi cyane. Urubyiruko rukunda kuyikora rwifashishije umupira w'amaguru.

Muri siporo abantu benshi baba bari kwirukanka, kugira ngo batanguranwe umwanya wa mbere, babone ibihembo byinshi cyane.

Siporo ni nziza cyane ku bantu bose, ari abahungu, ari abakobwa, ari abagabo, ari n'abagore, abantu benshi barayikunda igirira abantu akamaro.

Mu kibuga cyiza cya kijyambere, ahantu hateranira abantu benshi habera imikino y'imyidagaduro itandukanye, bamwe bakayikora basimbuka abandi bakaza baje gushungera.

Siporo y'amagare ni nziza cyane. Abakinnyi ba siporo y'amagare baba bari kwihuta cyane. Abaturage barayikunda, baba bashungereye ku muhanda, bari kureba uraba uwa mbere.

Mu bibuga byinshi bakiniramo hakunda kubamo imikino itandukanye. Umukino wa tenisi uba mwiza cyane kuko abari kuwukina ubona bafite imbaraga nyinshi kandi bishimye cyane.

Mu rwego rw'iterambere imihanda yo mu cyaro basigaye bayikora bakayishyiramo kaburimbo, babanza kuyihingagura bagashyiramo ibitaka, amagaraviye n'ibindi.

Ahantu hari amazu menshi y'ubucuruzi haba ari heza cyane. Kubera ko haba hariho ibikorwa byinshi by'amajyambere amazi ndetse n'amashanyarazi.